Abakozi batanga serivisi z'amayinite ndetse no kubikura amafaranga, hakaba haje umutaka bitwikira mu gihe cy'izuba ndetse n'imvura bari gutanga serivisi kugira ngo ireke kubabangamira mu kazi kabo.

Aba n'abantu batatu harimo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe, bigaragara ko bacuruza amayinite cyangwa abakora serivisi za eyateli, bakaba bameze nk'aho bari gutanga amayinite cyangwa bari gusobanurira uyu mukiriya wabo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'ubururu bwererutse ari imbere ku gasanduku k'ibara ry'umuhondo gashushanyijeho telefone akaba ari kuvugana n'umuntu wicayemo.

Umugabo uri mu gasanduku k'ibara ry'umuhondo imbere ye hari abagore babiri baje bamusanga kugira ngo abahe serivisi zo kugura amayinite cyangwa kubikuza amafaranga.

Abakozi ba Emutiyeni bagurisha amayinite ndetse bakanabikura amafaranga bambaye amajiri y'imihondo ndetse bari impande y'imodoka nyinshi n'amamoto bakaba bari mu mutaka uriho ibirangantego bya Emutiyeni.

Akazu keza cyane kariho ibyuma by'umweru ndetse n'iby'umuhondo kigaragara ko gatanga ama inite ndetse kakanabikuza amafaranga hariho umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru.

Ahantu heza hateretse agasanduku kanditseho Airtel, hakaba hahagazeho umubyeyi bisa nkaho yaje kugura amayinite cyangwa akaba yaje kubikuza amafaranga.

Agasanduku kanditseho aitel money ndetse karimo ibara ry'umutuku kano kagaragaza ibirango bya simukadi za airtel zikoreshwa mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu.

Inzu nini irimo imifukarimo iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, ikaba ipanzemo, uko bigaragara harimo imyaka cyangwa ibindi bintu bihunitsemo, bigombambwa kugurishwa.

Ikibuga gishyashya cyubatswe hino y'umuhanda wa kaburimbo, hakaba habereyemo inama yahuje n'umuyobozi w'akarere ndetse n'abaturage, bakaba bamugejejeho ibibazo bafite ndetse n'ibindi bintu bifuza kugeraho.

Umugabo wambaye isaha n'ishati y'umukara irimo akaba k'umweru imbere ku gatuza, afite mikoro ari kumeza, akaba ari kubwira abantu amabwiriza ndetse n'inama z'umunsi.

Inzu nziza irimo amatara ikaba irimo amakaro y'umweru ikaba irimo icyapa cy'umukara ndetse n'ikindi cy'umweru cyandikishijeho amagambo y'ibara ry'umukara hahagaze abagabo beza banini.

Umurasire w'izuba uhagaze mu bigori byeze, bikaba gihinze ku murima munini cyane, uko bigaragara bigeze igihe cy'isarurwa, ndetse no kuba byajyanwa ku masoko abantu bakaba babikuramo ibibindi bintu.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru urimo amabara atambitse mu mugongo usutsa imisatsi ,ndetse wambaye n'akanigi mu ijosi afite umufuka w'amakara ndetse amwe ayafite mu ntoki ,ari kwerekana uko ayagurisha ndetse n'aho abikorera.

Imodoka nziza y'umukara iparitse hanze y'inzu ahantu hapavomye, ikaba itwawe n'umugabo mwiza wambaye karuvate ndetse n'ishati uko bivugwa ni umuyobozi.

Nk'umuyobozi mukuru ubwo yariri imbere ariko kugeza ijambo ku bamukurikiye, abagabo babiri bari bambaye ishati y'umweru bafite telefone ndetse n'ikayi mu ntoki, bandikaga ibiri kuvugirwamo.

Ameza ariho impapuro, mashini ndetse akikijwe n'abagabo benshi n'abagore, harimo umugabo uhagaze umeze nkaho ari kuvuga ijambo.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru, akaba ari kumwe n'umukobwa wambaye agapfukamuwa k'umukara ndetse n'umupira w'umukara, imbere yabo hatetse imbabura nyinshi.

Isoko rinini risakajwe amabati y'imyeru ndetse risize irangi ry'ubururu, hakaba harimo abantu binjiyemo imbere, imvura ikaba iri kugwa bamwe bafite imitaka bari kwirinda ndetse abandi bayikwanura ibintu byabo.

Butike nini irimo amoko atandukanye y'inzoga akaba acururizwamo, hakaba harimo etajeri ndetse n'ameza, hakaba harimo inzoga ziriho imifuniko y'umutuku n'ibipapuro by'icyatsi.

Inzu nziza ikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga ndetse n'ibiribwa hakaba harimo intebe z'imyeru ndetse n'amezaza abakiriya baterekaho ibyo bari kurya ndetse n'ibyo bari kunywa, hakaba hicaye umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'umutuku.

Inzu nziza cyane iri imbere y'umuhanda wa kaburimbo ikaba isize irangi ry'umuhondo, ikaba iteretsweho intebe ndetse n'amaguru ya televiziyo kugira ngo baze kubigura.

Umugabo witeje imbere agashinga butike icuruza ibintu byinshi cyane harimo: amavuta, ibitunguru, amakayi ndetse n'impapuro bakoreraho amafoto yo gupurintinga, akaba ari kwandika afite ikaramu ndetse n'urupapuro.

Agasanduku gateretse imbere y'umuryango, harimo isambusa eshatu, imwe ninini, iyo hagati nintoya, iyo hirya ninini nanone, hasi nta kintu kirimo kandi biragaragara ko uyu muntu yari azicuruje.

Isoko ririmo imyenda myinshi y'amabara atandukanye, imikandara, imipira, amapantaro, ndetse n'amashati bimanitse ahantu hamwe bicurujwe mu isoko.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge, ndetse akaba ateze igitambaro mu mutwe cy'umukara, akaba acuruza ibiribwa muri butike ye. Avuga ko hari aho yikuye hari n'aho amaze kwigeza.

Abakirisitu bishimye mu gihe abapadiri ndetse na musenyeri bari babasuye ubundi arabasengera, bari bari mu kibuga kitarimo ibyatsi ariko gikoze neza ku buryo babashije kwishima.

Urusengero runini rwubatse ahantu hitatuye izindi nzu, rukaba rurimo abantu bari gusengeramo imbere batagaragara, bivuze ko bari guhimbaza imana ndetse haba haje n'abandi baje kubatizwa.

Ishuri ryigisha abana b'inshuke hakaba harimo umwarimu ubigisha, ndetse ku bikuta hakaba hari ibishushanyo by'ihene, inkoko, inkwavu ndetse n'imbata.

Abantu benshi bahagaze bakaba bafite uduseke, hagati yabo harimo umuzungu uri kugapfundura akaba yambaye umupira urimo amabara y'umweru n'umukara atambitse, akaba yambaye n'isaha ku kuboko.

Umurongo munini w'abantu benshi banyanyagiye mu muhanda, bigaragara ko bari kuva mu rusengero gusenga, ku munsi wo ku cyumweru, bakaba bamwe bahetse abana, abandi babateruye, bafite imyenda y'imyeru ndetse n'ibikara.

Abagabo n'abagore bapfukamye imbere bunamye bigaragara ko bari gusenga bakaba bari mu materaniro yahuje abantu benshi cyane bakaba bari kubasengera ndetse bahimbaza Imana.

Ababyeyi bafite abana biga mu mashuri y'inshuke bakoreshejwe inama n'abarimu babo n'uko baganira ku bijya imbere ndetse n'ibiri kwanga bavuga ko abana bakeneye kujya barya ku kigo ndetse bakananywerayo igikoma mu gitondo.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ibitambaro by'umweru n'ubururu, umwe akaba yambaye ishati y'umweru, karuvati ndetse n'ikoti ry'umukara, undi yambaye ishati yo mu gitenge, babiri bafashe icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Abagabo benshi bambaye amakositimu ndetse n'amakaruvate bahagaze ku murongo bari kwifotoza kandi hakaba harimo n'umukuru w'Igihugu cyacu Paul Kagame bakaba bavuye mu nama y'imishyikirano.

Inzu nziza nini cyane, irimo amatara manini, ikaba iteyemo intebe zegamirwa ziri mu ibara ry'umweru, hakaba harimo abaturage bari kureba televiziyo ndetse n'abandi bari kubasobanurira, ibiri kuberamo.

Ubusitani bwiza bwubatsemo inzu kandi hakaba hateye n'ibiti byiza bikurura akayaga, ibindi bikeraho imbuto nziza zikiryoshye hakaba hateyemo ameza ndetse n'intebe abantu baganiriramo mu gihe bari gufata icyo kunywa.

Inzu ifite imiryango myinshi isakaje amabati y'umutuku, hanze hakaba hari ibiti ndetse n'ibingo bikikije iryo shuri, bigaragara ko bizana umwuka mwiza muri icyo kigo.

Hoteli nziza yubatse neza cyane isohokerwamo n'abazungu, hakaba harimo amazi bogeramo ndetse n'intebe bicaraho, inyuma yaho hari ibiti birebire bizana umuyaga ndetse n'umwuka.

Umuceri utetse neza cyane uvanzemo inyanya ndetse n'ibitunguru, ukarangishije amavuta ya buto, ukaba wasutswe ku kameza gaforomye neza, uko bigaragara ugiye kuribwa, hirya y'aho hari umunyururu uhamanutse.

Salo nziza irimo intebe z'umukara, hakaba harimo n'ameza ariho indabyo. Kurizo ntebe z'umukara hariho umusego. Inyuma kuri iyo nzu ku rukuta hari irangi ry'umweru ndetse n'irido bahamanitse.

Inzu nini irimo abantu benshi bateraniyemo, hejuru hakaba hari amatara, imbere yaho hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara, akaba bafite ikayi mu ntoki.

Inzu nini nziza, irimo amadirishya y'ibirahure, hakaba hamanitsemo ibitambaro ndetse na supanete, bikaba biri mu ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inzu yubatse imbere yaho hakaba hari umuhanda, ikaba isize irangi ry'umuhondo ndetse n'isakaje amabati meza cyane, hepfo yaho hari ubusitani buteyemo imikindo.

Intebe ebyiri ziteretse muri salon imbere yaho hari akabati gateretseho televiziyo ndetse hejuru ku gikuta hariho ifoto igaragaza ibiti ndetse n'irangi ry'umweru risize ku nzu.

Inzu nziza iri mu mujyi ikaba ari isoko riri hafi y'amazi, hakaba haberamo ubucuruzi bw'ibirayi, ibishyimbo, imbere ku muryango hakaba hari imitaka abakozi bacuruza amayinite bakoreramo.

Umufuka uri mu ibara ry'icyatsi ukaba urimo umuceri, hakaba hateretsemo agakombe bakoresha bari kupima mu gihe umuntu aje kuwugura cyangwa mu gihe bari kureba ibiro bagiye gutanga.

Abaturage baratanga ikibazo cy'uko isoko ryabo riva mu gihe bari gucuruza, imvura ikagwa ibikorwa byabo byangirika ndetse n'ibyo bacuruje bimwe bikagenda mu mazi.

Abaturage benshi bitabiriye isoko, bamwe baje no gucuruza abandi baje guhaha ndetse no kugura, bakaba bafite indobo, imifuka ndetse n'ibidomoro biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, bakaba bari kugenda babizengurukana.

Isoko rinini ryubakishije ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, rikaba risakajwe amabati, haruguru yaho hari ikiriga cy'umukara, hepfo yaho hari amagare abiri ahaparitse, imbere hakaba hahagaze umugore.

Igiti gishinze mu gisambu, kikaba gishamikiyeho ibindi biti, hakaba hambiitsweho ingofero zikoze mu mashashi, hasi yaho hakaba hari igare riharambitse irindi rihagaze, bigaragara ko nta muntu uririho.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na bote z'umukara n'ingofero akaba afite inkoni mu ntoki, inyuma ye hari shitingi irambitseho imyenda ndetse n'umugore ubicuruje.

Imbuga yanitseho imyumbati ndetse haruguru yaho hakaba hari abasore bafite amagare bahagaze n'umugore uri kwanika indi myumbati asa nkuyisanza ku kazuba kugira ngo ibashe kuma neza.

Inzu nziza ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bintu, urugero nka matera, ikaba irimo abantu baje kugura ibyo bintu, hakaba harimo amatara yaka ndetse n'ibiti byo kumanikaho imyenda.

Imbuga nziza inogeje yakozwe neza irambitseho shitingi y'umweru ndetse hakaba hariho ibitunguru byinshi ndetse na beteravu, hakaba harambitseho umunzane n'ibasi y'umutuku

Umuhanda munini urimo amamodoka ndetse n'abantu benshi, hakaba hubatswe amazu kum mpande zaho, bigaragara ko akorerwamo ubucuruzi. Inyuma yaho kure hari ibiti birebire, ndetse imbere yaho hakaba hari ibiti bijyana umuriro bimwe twita amapoto.

Isoko ricuruza imifuka ndetse n'imyeyo n'utuyunguruzo dufasha abaturage mu kuyungurura ifu y'ubugari ndetse n'imyeyo bakoresha bari gukora amasuku mu ngo zabo, ikaba iri ku isoko.

Isoko ry'iyiza ricuruza imyenda itandukanye twavuga imipira, amapantaro ndetse n'imyenda y'abagore n'ibitenge, hakaba hajemo abantu benshi baje guhaha, hirya yaho hakaba hari imodoka ihaparitse.

Sare iteguye neza irimo intebe, ameza ndetse n'udutambaro turi kuri ayo meza, hakaba hateretseho ibirahure banyweramo, hirya y'aho hakaba hari indabyo zihateye.

Ubukwe bw'abageni bugiye kubera muri salle iteguye neza cyane irimo; intebe, ameza ndetse naho abageni bari buze kwicara, hari amatara yaka amabara yose umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu.

Iyi ni salle irimo amatara ndetse ikaba irimo intebe nyinshi ikaba irimo ameza bigaragara nk'aho yakira abantu baje kwiyakiriramo cyangwa baje kuganiriramo.

Ihuriro ry'imihanda aho haparitse abamotari batwara abagenzi ndetse hakaba hari hariho abana bahagaze ndetse n'umwajenti ubikura akanohereza amafaranga, akorera ikigo cya MTN.

igikorwa remezo cyiza kirimo umuhanda wa kaburimbo aho abaturage bishimiye kukigendamo ndetse na bamwe bafite amamoto bakaba bari kuyatwaramo ndetse hari n'abandi bagore bari kugenda haruguru y'umuhanda mu nzira y'abagenzi.

Umumotari utwaye moto, ahetse agakapu akaba ari kunyura mu muhanda wa kaburimbo, haruguru ye hari amazu yubatse mu mabati ndetse n'indi yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo utewe imikindo ku ruhande igaragara nkaho iki mitoya, hakaba hariho utubara tw'umweru n'umukara ndetse hakaba hari n'umwanya abanyamaguru bacamo, mo hagati harimo umumotari utwaye umugenzi.

Umumotari uri mu muhanda atwaye moto yambaye kasike y'ubururu n'umupira w'umweru, haruguru ye hakaba hahinze umukindo wegereye amazu asize irangi ryumweru, akaba ari amazu meza cyane akorerwamo ibintu by'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba hari ibyuma bitangira imodoka yabaabayikoze axsita cyangwa ikindi kinyabiziga, hepfo yaho hateye ibiti birebire hakaba hari umunyonzi utwaye igare rihetse amabuni uri kugendamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari, ndetse hirya yaho hakaba hariyo inzu yegereye igiti cy'umukindo ndetse n'iy'imyembe, isize irangi ry'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hacururizwamo ibikorwa byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatse imbere y'amabutike ndetse n'inzu nziza zisize irangi ry'umweru imbere y'izo nzu harambitseho inzugi ndetse hateye n'igiti uko bigaragara harimo umumotari utwaye umugenzi.